Iri ni ishuri cyangwa icyumba abana bigiramo, kirimo intebe kikaba kirimo n'ibishushanyo biri ku nkuta, birimo ibigize, harimo ibigize byerekana ibinyampande, byerekana abantu bakora ibikogwa bitandukanye.

iyi ni inzu ibarizwa muri kariritsiye yitwa mu Kizungu. Mu Kizungu ni karitsiye iherereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Iyi nzu ikaba ari icumbi ry'abasirikari.

Iyi ni laboratwari, laboratwari ikorerwamo egisiperiyanse n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga isomo, isomo rya shimi cyangwa ubujyenjye.

Aba ni abasuderi cyangwa abantu basudira ibyuma; gusudira inzugi, gusudira amadirisha, no gusudira ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa cyangwa bikorwa mu byuma.

Iri ni ishuri aba ni abarimu bari kwigisha abana ibintu bitandukanye, ariko nk'uko bigaragara iri ni ishuri mu ishuri bari kubigisha ubukorikori, cyangwa imyuga harimo kudoda, gufuma n'ibindi bintu...

Iki ni icyumba kigirwamo isomo ry'ikoranabuhanga ryo bita ayisiti cyangwa se kompiyuta, kuko ririmo intebe, rikabamo na kompiyuta abanyeshuri bakoresha bari kwiga.

Aba ni abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo， aho bari kwiga uko bavura cyangwa batera imiti amatungo， hano iyi ni inka bari kwigiraho uko bayitera umuti cyangwa ko bayivura.

Aba ni abanyeshuri abanyeshuri biga iby'ubuganga bari muri laboratware aho bari kwiga uko barebera muri mikorosikope, mikorosikope ni igikoresho kwa muganga bakoresha kugira ngo barebe udukoko cyangwa indwara ziri mu mubiri zitaboneshwa amaso.

Iri ni ishuri, iri ni laboratwari aho abana bigira isomo ryitwa Ayisiti cyangwa Kompiyuta aho biga banakoresha kumpiyuta zabo.

Iyi ni saro do kwafire cyangwa se aho bogoshera， uyu mu mama ari kogosha ura muntu wifubitse cyangwa bambitse igitambaro cy'umutuku.

Aha ni muri hoteli. Uyu muntu ari gukora ikawa. Ari gukora ikawa, na bariya uko bigaragara bambaye ingofero ,ni abatetsi bo mu gikoni. Uyu wo hino ari gukora ikawa ashyiriye umukiriya.

Aba bantu ni abadozi ni abadozi b'imyenda izi mashini ni imashini zidoda bifashisha badoda imyenda imyenda yo kwambara uko bigaragara birashoboka kuba bano bambaye udupira udupira tw'ubururu dusa ari abanyeshuri.

Aba ni abanyeshuri bari mu ishuri bambaye iniforume y'ishuri ,bateze amatwi cyangwa bakurikiye isomo mwarimu ari kwigisha, urabonako bishimye bari no guseka.

Uyu ni umubaji ubaza ibikoresho bitandukanye. Harimo intebe, ameza dore afite urukero, afite n'ibindi byuma bikoreshwa mu bubaji.

Aba ni abanyeshuri biga guteka, biga isomo ryo guteka cyangwa ubutetsi, ibyo bita mu ndimi z'amahanga karinari atsi, bambaye imyambaro bambara bari mu gikoni, aya masahani, amasahani icumi ariho ibyo bamaze gutegura cyangwa guteka.

Aba ni abanyeshuri, abanyeshuri bari gufata ifunguro rigaragara ko ari ifunguro jyuzuye ifunguro hariho umuneke, hariho amata hariho n'ifunguro rigizwe n'umuceri n'imboga ariko akaba afite n'imineke na mata ni ifunguro jyuzuye cyangwa injyo yuzuye.

Aba ni abacuzi. Aba bacuzi bacura ibintu bitandukanye ibikoresho bitandukanye, aho bafata ibyuma, ibyuma bakabishuhisha, barangiza bakabikuramo ibikoresho bitandukanye harimo: ibyuma, amashoka, imihoro, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Iyi ni imashini, imashini ibaza cyangwa itunganya imbaho. Aba ni abanyeshuri biga, biga ibijyanye no kubaza cyangwa ibyo bita mu cyongereza kapentiri, bari kwiga kubaza cyangwa uko bakoresha iyi mashini.